Iyi ni inzu mberabyombi iteraniyemo abantu batandukanye, abazungu n'abirabura, hari ameza afite ibara ry'umukara ateretseho amakaye, afite ibara ry'umweru n'intebe zifite ibara ry'ubururu bwerurutse cyane.

Abana abasore babiri, umwe yambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, undi yambaye ikote rifite ibara rya kaki, imbere yabo hari amacupa arimo amazi y'inyange.

Iyi ni inzu mberabyombi iberamo inama rusange umuyobozi w'inama afashe indangururamajwi mu ntoki yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu n'ipantaro ifite ibara ry'icyatsi, imbere ye hari mudasobwa.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, hagati mu muhanda harimo abagenzi, harimo umusore wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umukara, imbere ye hari umumama wambaye umwenda w'umukara.

Uyu umunara muremure cyane usize amarangi ari mu ibara ry'umutuku n'ry'umweru, uka uzengurutswe n'insinga nyinshi cyane zitandukanye, hejuru yaho hakaba hari igicu gifite ibara ry'umweru n'iry'ubururu bwererutse.

Uyu ni umunara muremure cyane, usize ibara ry'umutuku n'umweru hakaba hakusanyirije insinga nyinshi cyane hari injerekani igiti cya voka n'ibigori n'amate.

Aba ni abanyeshuri bicaye mu ishuri imbere yabo hateretse za mudasobwa zifite ibara ry'umukara hariho n'akandi kaba ari gatotonya cyane k'umweru, bambaye amashati y'imyeru abarimu babo bambaye amakote afite ibara ry'umukara.

Uyu ni umunara muremure cyane uzengurutswe n'insinga z'ubwoko butandukanye, inyuma yaho hari itara rirerire cyane kandi hakikijwe n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa ukaba urimo ibinyabiziga bitandukanye by'amapikipiki, ku ruhande hahagaze umugenzi wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hari umubyeyi wambaye imyenda idozemo.

Aba ni abaturage, imbere yabo hahagaze umugororwa wambaye umupira n'ikabutura biri mu ibara ry'iroza, hari umutaka, hari abicaye hari n'abahagaze.

Uyu ni umubyeyi w'igitsinagore, afite umusatsi w'umukara, yambaye imyenda ifite ibara ry'umweru hariho n'akandi k'umukara gato, hakaba hariho n'ibara ry'umutuku, hakongera hakabaho n'irindi ry'umu.

Uyu ni umugabo wambaye ikote ry'ubururu, imbere ye hari indangururamajwi ifite ibara ry'ubururu, yicaye ku ntebe y'umukara inyuma ye hari ibara ry'ubururu.

Iki ni ikigo ngororamuco bajyanamo abantu bagaragaje imyitwarire itari myiza. Aba ni abagororwa bari ku murongo, harimo igitsina gore n'igitsina gabo bambaye imyenda ifite ibara ry'iroza.

Iyi ni kizimyamwoto ikaba yifashishwa mu kuzimya ahantu hagize ikibazo cyo guterwa n'inkongi y'umuriro, iyi kizimyamwoto ikaba ifite ibara ry'umutuku, umukara n'umweru hasi hakaba hateretse n'ibuye.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, hagati mu muhanda hashushanyijemo umurongo ufite ibara ry'umuhondo, uyu murongo ukaba ufasha gutandukanyamo umuhanda ibice bibiri, hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda.

Iyi ni kizimyamwoto ushobora kuyifashisha mu gihe watewe n'inkongi y'umuriro mu rwego rwo kuzimya iyo nkongi y'umuriro, iri icupa rifite ibara ry'ubururu, umuhondo, umweru n'umukara.

Uyu ni umubyeyi w'igitsina gore, uyu mubyeyi aratetse inyuma ye hari ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo n'ibara ry'icyatsi, uyu mubyeyi yambaye imyenda irimo akabara kumye.

Aba ni abaturage bari mu gikorwa cyo kwamamaza, umwe muri abo baturage afite icyapa kiriho ifoto hariho ibara ry'icyatsi, umuhondo, umweru hashushanyijeho umugabo wambaye ishati y'umweru n'ikote ry'umukara.

Aba ni abagabo bambaye amakote, umwe yambaye amataratara imbere yabo hari amacupa n'amazi y'inyange, inyuma hari abagore bambaye imyenda y'icyatsi, umukara, ubururu.

Uyu mu umuhanda nyabagendwa hagati mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, hari umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, hari umubyeyi wambaye imyenda idoze mu gitenge.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa, izi ni imodoka zihagaze harimo: ifite ibara ry'umweru, umuhondo, umutuku, umukara, hakaba hari ku ruhande abagenzi bari gutambuka bagenda n'amaguru.

Uyu ni umuhanda nyabagendwa hagati mu muhanda harimo ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru n'umutuku, ku ruhande hakaba harimo abagenzi bari kugenda harimo uwambaye ishati ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, inyuma ye hakaba hari undi wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara.

Iyi ni ikamyo iri mu muhanda hakurya yayo no hakuno yayo hakikijwe n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi, iyi kamyo yagufasha mugihe ukeneye gutwara ibintu byinshi bitandukanye.

Uyu ni umuhanda hagati mu muhanda hari ikinyabiziga kiri gutambuka, hari n'umuyonzi upakiye umufuka wuzuye ibirayi ku ruhande hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi, uwo munyonzi yambaye imyenda irimo ibara ry'icyatsi kibisi.

Iki ni icyapa kireba abatwaye ibinyabiziga n'abanyamaguru, kibaburira kibamenyesha ko imbere mu muhanda hari gukorerwa ibikorwa byo kubaka cyangwa byo gusana umuhanda nyabagendwa.

Uyu ni umuhanda w'amabuye harimo abazungu, umwe yambaye imyenda y'umweru inkweto z'umweru ziriho akabara k'umukara ahetse igikapu cy'ubururu bwijimye, imbere ye hari imodoka y'umutuku.

Aha ni kamwe mu duce tuba mu mujyi wa Kigali, aha hakaba ari ahitwa mu Giporoso hari urujya n'uruza rw'abantu, hari umugenzi uhagaze mu muhanda wambaye ishati y'umuhondo, kuruhande rwe hari ibyatsi by'ibimera bifite ibara ry'umuhondo n'iry'icyatsi.